Umugabo wambaye ishati ya karokaro n'ipantaro y'umukara, yicaye ku kijerekani cy'umuhondo, yaje kuvoma aho hari kano ebyiri. Ubu amazi yegerejwe abantu bose.

Abana babiri b'abahungu bari mu kigero cy'imyaka umunane n'icumi, bafite indobo nyinshi bari kuvomeramo amazi kuri kano. Ubu ngubu amazi yageze ahantu henshi mu gihugu, aho biri ku ntambwe ishimishije.

Umwana mutoya ufite mu myaka itanu ndetse n'icumi, ari kuvoma amazi mu gikombe. Hari kano ebyiri zose ziri kuzana amazi. Hirya ye hari igihuru kirimo ibyatsi byinshi.

Abajyanama b'ubuzima bicaye mu gacaca, abandi barahagaze, bose bambaye amataburiya y'ubururu bagira uruhare mu buzima bw'abaturage, kuko iyo urembye bihutira kukugeraho kandi bakakugeza ku kigo nderabuzima.

Inama yahuje abantu benshi batandukanye, hakaba harimo n'abayobozi bo mu nzego z'umutekano. Imbere yabo hahagaze umugabo, bigaragara ko ari we uri gutanga ikiganiro.

Abantu benshi bambaye amataburiya ndetse n'abarwayi, bari imbere y'ibitaro ahatangirwa serivisi z'ubuzima. Kandi bafite icyo bari kwigaho.

Ku iriba rinini kandi rifite aho bavomera henshi hari abana batatu bari kuvomesha intoki, inyuma yabo hari igiti kinini gikuze bisa naho ari icya kera.

Iyi nama yahuje abantu benshi, imbere yabo hicaye abantu batandatu bigaragara ko ari bo bari gutanga ikiganiro, hifashishijwe televiziyo mu buryo bwo kugeza ikiganiro ku bantu bose.

Abaturage bafite abana batoya baje kubakingiza, abayobozi bo mu nzego z'ibanze bakangurirwa gushishikariza abaturage babo kujyana abana kwipimisha mu gihe cyagenwe.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye, abagabo, abagore ndetse n'abazungu. Imbere yabo hari idarapo ry'Igihugu ndetse inyuma yabo hari icyapa kinini cyane.

Icyumba cyo kwa muganga, harimo igitanda kiryamyeho umurwayi, hari abaganga babiri bari gukurikirana uyu muntu, bamuha imiti ndetse banamutera inshinge, hari ibikoresho by'ubwoko bwose.

Icyumba kigari kirimo irange ry'umweru n'inzugi za kake hari ameza ateretseho mudasobwa. Abo bantu biganjemo abakuze hagati yabo hari umugabo uri kubasobanurira ibintu bitandukanye.

Iribarusange, aho umuntu wese aba afite uburenganzira bwo kuvoma nta kwishyura. Hari umwana uri kunywesha amazi intoki, akaba ari kuvomera mu ndobo. Inyuma y'iri riba hari ibiti birebire.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza, bari gufata ifunguro rya kumanywa, buri wese imbere ye afite isahane iriho ibiryo ndetse n'ikiyiko, bakaba bishimiye ifunguro bahabwa.

Icyumba cyo kwa muganga harimo igitanda kiryamyeho umurwayi, iruhande rwe hari umurwaza ndetse na muganga uri kumukurikirana. Aba bantu bose bambaye udupfukamunwa bigaragara ko hari ibyo bari kwirinda.

Inama yahuje abantu benshi, imbere yabo hari ameza ateguyeho ibitambaro by'ubururu, buri wese afite icupa ry'amazi ndetse n'icyapa cyanditseho izina rye.

Ku iribarusange aho tuvoma tutishyuye, hari abana babiri bari kuvomera mu tuvido. Inyuma yaho hari ubusitani ndetse n'ibiti birebire byifashishwa mu kuvura indwara.

Icyapa kinini cy'ubururu, cyanditseho amagambo, hakoreshejwe ibara ry'umweru, ndetse n'iry'ubururu bwerurutse, kikaba gisobanura uburyo umwana wese yakwitabwaho.

Ni byiza ko buri mujyanama w'ubuzima ahabwa amahugurwa, mbere yo guha serivisi abaturage bo mu mudugudu atuyemo, aha ni ku bitaro aho bari kubagezaho amahugurwa y'uburyo bazajya bita ku baturage babo.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo hakoreshejwe ibara ry'umweru iry'umuhondo kikaba kiriho amagambo abwira abaturage ko hari gutangwa serivisi ku bantu bose.

Abana benshi b'abanyeshuri bambaye imyenda yabo y'ishuri, uretse umwana umwe wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara. Bakaba bafite ibyapa mu ntoki, bigaragara ko ari ibyo bahawe kuri uyu munsi.

Iyi nama y'abantu benshi batandukanye abagabo, abagore bakaba bari kugezwaho ikiganiro n'abagabo babiri babicaye imbere, bari kuvuga ku cyorezo cya Marburg n'uburyo bwo kucyirinda.

Abajyanama b'ubuzima, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bari gufata ifoto hagati yabo hari umuyobozi, inyuma yabo hari igiti gifite amabara meza, abajyanama b'ubuzima bafitiye akamaro sosiyete nyarwanda.

Inama yahuje abantu benshi batandukanye, imbere yabo hicaye abantu batandatu basa n'aho ari bo bari gutanga ikiganiro ariko bakaba bari gukoresha televiziyo mu kutambutsa iki kiganiro ngo kigere kuri benshi mu buryo bworoshye.

Abana bato bari mu kigero cy'imyaka itanu n'icumi, bari kwidumbaguza mu mazi menshi, bambaye ubusa bamwe bibiye, ababyeyi bagirwa inama yo kugenzura abana babo kuko bashobora kurohama muri aya mazi, bikabaviramo urupfu rutateganijwe.

Mu buryo bwo korohereza abaturage batuye igihugu cy'u Rwanda, leta yabubakiye amariba ahantu henshi hatandukanye, ku iriba hari abantu benshi ndetse n'amajerekani menshi.

Inama yahuje abantu benshi harimo abagabo, abagore, imbere yabo hicaye abantu bigaragara ko ari bo bari gutanga ikiganiro ndetse inyuma yabo hari icyapa kinini kiriho amafoto y'abantu bakomeye.

Ishusho nziza y'abantu bishimye, abagore, abagabo, bakaba bafite umuntu uri kubagezaho ikiganiro. Bigaragara ko aba ari abajyanama b'ubuzima, bamaze guhabwa amahugurwa y'ukuntu bagiye kwita ku baturage.

Ihuriro ry'abantu benshi bambaye neza, bigaragara ko ari abajyanama b'ubuzima, bamaze guhabwa amahugurwa yo kwita ku baturage, buri wese yambaye agapfukamunwa, itaburiya mu buryo bwo kwirinda indwara zandura.

Ahantu hanze y'umuryango, hari abagabo batatu ndetse n'umugore umwe, hari umugabo wambaye ishati y'icyatsi, ipantaro y'ikake n'agapfukamunwa, imbere ye hari mudasobwa, hari ibyo ari gusobanurira abamuri iruhande.

Icyaro kirimo ibiti n'ibyatsi byinshi, hari umugore uri gutambuka, yikoreye indobo y'umutuku, afite n'indi y'umuhondo mu kiganza. Yambaye igitenge ndetse n'ishati, yiteze n'igitambaro mu mutwe.

Inama y'abantu benshi batandukanye abagore, abagabo, buri wese afite icyo kwandikaho ndetse n'icupa ry'amazi, inyuma yabo hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo hakoreshejwe ibara ry'umweru.

Umukobwa uri kuvoma yicaye, imbere ye hari amabase abiri, injerekani imwe, inyuma ye hanitse imyenda ku mugozi bigaragara ko ari kumesa, ndetse iruhande rwe hari inzu isakaje amabati ashaje.

Ababyeyi bafite abana batoya bari munsi y'imyaka itanu babazanye ku kigo nderabuzima, abajyanama b'ubuzima bashishikariza gukangurira ababyeyi kujyana abana kwa muganga igihe cyose bagenewe gufata inkingo.

Abana bato bicaye mu cyumba kirimo ameza agiye atandukanye, bose bambaye udupfukamunwa ndetse n'imipira y'icyatsi, bicaye ku ntebe z'umutuku ndetse n'umukara, imbere yabo kandi hari ameza ariho ibitabo n'amacupa y'amazi.

Inzu nini isize irange ry'ubururu ikabi isakaje amabati y'ubururu bwerurutse, imbere yabo hari abantu benshi bari mu nama hakaba harimo n'abayobozi bo mu nzego z'Igihugu.

Umugore wambaye agapira k'umutuku n'igitenge, afite indobo ari kuvomeramo amazi ku ivomo rusange, ateruye umwana mutoya mu ntoki, abagore ni bamwe mu bantu bakora imirimo myinshi mu gihe kimwe.

Ku ivomero rusange aho umuntu wese aba yemerewe kuvoma nta kiguzi hari abantu babiri bari kuvomera mu njerekani, umugabo ndetse n'umugore, inyuma y'iri riba hari ibiti birebire.

Umwana wambaye imyenda y'ishuri, ari kuvoma ku kigega cyubakiye neza n'isima, ibigo by'amashuri ibyinshi ubu bifite ibigega bibafasha kubona amazi mu gihe cy'impeshyi.

Inama yahuje abantu benshi batandukanye, abagabo, abagore, imbere yabo hari ameza manini ateretseho uducupa tw'amazi ndetse buri wese afite icyo yandikaho, hagati y'ameza abegereye harimo uturabyo twiza.

Ivomo rusange ryubatse neza, hari umwana waje kuvoma ndetse n'umugabo uri kumuha amazi, mu muhanda harimo abana b'abanyeshuri bari kuva ku mashuri, ariko uyu muhanda n'uw'igitaka.

Umuganga wambaye agapfukamunwa n'imyenda y'akazi afite igitabo n'ikaramu mu ntoki, ari kumwe n'umurwayi wambaye umupira w'ubururu, inyuma hari icyapa kivuga ngo sida iracyahari duhagurukire kuyirwanya.

Inama yahuje abantu benshi, hakaba higanjemo abagore. Imbere yabo hahagaze abagabo babiri, bigaragara ko ari bo bari gutanga ikiganiro.

Ifoto iriho abantu bambaye imipira y'umuhondo n'amapantaro y'umukara. Bakaba ari abayobozi bari kwigisha abaturage gukora akarima k'igikoni ngo bahingemo imboga z'ubwoko bwose.

Abana babiri b'abahungu bicaye hamwe, inyuma yabo hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu, umwana umwe akaba yateye agatoki bigaragara ko ashaka gusubiza mu ishuri.

Inama yahuriwemo n'abantu benshi abagore, abagabo, buri wese imbere ye hateretse agacupa k'amazi, telefone ndetse hagati y'ameza bicayeho harimo uturabo twiza, bakaba bari gukurikira ikiganiro hifashishijwe televiziyo.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu bwererutse cyanditseho amagambo hakoreshejwe ibara ry'umweru, iki kikaba ari ikigo gishinzwe kwita ku bana bose muri rusange.

Icyapa kiriw ibara ry'ubururu, cyanditseho UNICEF kuri buri mwana, ni ikigo gifasha abana mu myigire kibaha amakaye, amakaramu ndetse kikabishyurira n'amafaranga kugira ngo bige neza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umurwayi, umugore ateruye akana gatoya umuganga arikugatera urushinge, abana ni bamwe mu bazahazwa n'indwara aho bagomba guhita bihutanwa kwa muganga.

Abana benshi ba banyeshuri, bari kurwanira ku iriba ry'amazi, buri wese arwanira kunywa mbere, ariko hari kunywa ufite imbaraga muri bo.

Ku iriba rinini aho umuntu wese yavomera amazi meza kandi asukuye, hari umwana uri kuvomera mu njerekani eshatu, imbere yaryo hari ibyatsi byinshi kandi birebire.

Abaganga babyigiye, bambaye n'imyenda y'akazi, bafite udukarito mu ntoki n'udupfukamunwa tubarinda guhura n'ibibazo bitandukanye. Abaganga ni abantu bafitiye igihugu akamaro ndetse n'abagituye.

Ibikoresho byinshi byifashishwa mu kuvura indwara kwa muganga ndetse no mu gusuzuma izo ndwara ku buryo bworoshye, hari umuganga uri gupima indwara areba ko umurwayi ahagaze.

Inama y'abantu benshi higanjemo abagore imbere yabo hari umuganga uri kubabwira ibintu bijyanye n'amabwiriza yo kwa muganga.

Umugore wikoreye injerekani avuye kuvoma, ahuye n'abana babiri b'abanyeshuri umukobwa ndetse n'umuhungu, imbere yabo hari inzu nziza isakaje ibati ry'umutuku ndetse n'ipironi ndende.

Iriba rinini rizana amazi iyo hakoreshejwe imbaraga nyinshi, hari umwana w'umukobwa uri kuvomera mu kajerekani. Imbere y'iri riba hari abantu benshi baje kuvoma.

Abantu benshi batandukanye, Abanyarwanda ndetse n'umuzungu, bakaba bishimiye uruhinja rwavutse, bisa nk'aho uwo mwana yari avukiye aho hantu bari bari.

Ishusho y'abantu bambaye neza imyenda y'imweru, ingofero z'umweru ndetse n'abambaye iy'ubururu bwererutse, imbere yabo hari icyapa kiri gukangurira abaturage kwirinda kanseri.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, umuganga ari kuvura umwana muto, amuha imiti y'amazi.

Icyumba kirimo abantu batatu, umuganga umwe, umwana umwe ndetse n'umubyeyi we. Bigaragara ko umuganga ari gutera urushinge umwana ngo abone uko amuha imiti.

Amazi menshi atemba, harimo abana bafite indobo bari kuyavoma, si byiza kohereza abana ahantu hari umugezi utemba kuko bashobora kurohama, dore ko baba batari bakura.

Umwana wambaye agashati ka gisirikare n'agakabutura k'umutuku ari ku kigega gifite kano ebyiri hose hari kuvamo amazi ndetse hateretse indobo ari kujyamo hakurya hari ibiti byiza ndetse n'inzu ya konoshi.

Abagabo babiri basa n'abakuze, bicaye mu cyumba cyiza, imbere yabo hari ameza manini ateretseho uducupa tw'amazi, inyuma yabo hari icyapa kinini ndetse hirya yabo hari idarapo ry'igihugu.

Ni byiza ko umwana wese ahabwa urukingo, kuva ku mezi atatu kugeza ku mwaka n'igice. Umwana bamutera urushinge mu kaboko, mu gihe cy'amezi atandatu.

Icyumba cy'inama kirimo abantu benshi batandukanye: abagabo, abagore, imbere yabo hari ameza manini kandi buri wese afite icyo kwandikaho ikaramu, telefone, icupa ry'amazi imbere yabo, bakaba bafite uri kubagezaho ikiganiro.

Ku iriba rinini risize irange ry'ubururu rikaba rifite aho bavomera habiri, hari abantu benshi bari kuvomera mu ndobo ndetse n'undi mubyeyi umwe uri kogereza umwana mu ibase.

Ishusho nziza iri mu ibara ry'ubururu, ikaba yanditseho amagambo hakoreshejwe ibara ry'umweru, ikaba ishishikariza abantu ko hari gutangwa serivisi ku burwayi bwo mu mutwe kandi ku bantu bose.

Icyumba cyicayemo umusore wambaye ishati ya kake n'ipantaro y'umukara arigunze afite n'agahinda, ari kumwe n'umukobwa ufite ibisuko by'umukara ndetse yambaye n'agasaha ku kaboko ari kumuganiriza.

Icyumba kirimo abagore batatu n'umugabo umwe, umugore umwe afite indangururamajwi ari kubaganirira, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa n'icupa ry'amazi ndetse n'ikayi.

Abantu babiri bari mu nama, umugore ndetse n'umugabo, imbere yabo hari ameza manini ateretseho amacupa y'amazi, mikorofone, inyuma yabo hari ibyapa bine bijyanye n'ubuvuzi.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, hariho igishushanyo cy'umugabo kandi handitseho indwara zo mu mutwe uko wazitaho, ni byiza kwita ku buzima bwo mu mutwe kuko bigufasha kumenya uko uhagaze.

Muri salle hahuriyemo abantu benshi, bari mu ngeri zitandukanye. Abakuru, abato, bakaba bari guhabwa ikiganiro hifashishijwe mikorofone.

Umugabo wambaye ijezi, akenyeye igitenge, aziritse amaguru. Iruhande rwe, harambuye akarago gatoya n'igitenge, bigaragara ko ariho aryama. Inzu yegamyeho irashaje cyane, ishobora kumugwira.

Inama yitabiriwe n'abantu benshi, abagore, abagabo ndetse bameze nk'abari guhabwa ikiganiro ku byerekeranye n'ubuvuzi. Inyuma yabo hari icyapa kiriho amagambo yerekeranye na serivisi zihabwa umuntu wagannye ibitaro.

Umuntu w'igikara ari kurira, amarira yatembye ku matama, abahanga bakugira inama ko niba ufite agahinda, wakwegera abantu mukaganira aho kuba wigunze, kuko byagutera indwara zitandukanye.

Inama yitabiriwe n'abantu benshi, bakaba bambaye imyenda y'umukara. Bisa n'aho ariyo bahawe muri iyi nama, bakaba bakurikiye uri kubagezaho ikiganiro.

Umubyeyi wo mu cyaro ateruye umwana undi amwicaye iruhande. Imbere ye hari intara iriho ibishyimbo ari gutoranya ndetse n'ingemeri ari kubishyiramo.

Umugabo wambaye agapira k'umutuku n'agakabutura k'ikoboyi, yambaye amapingu mu biganza byombi, arashinjwa ibyaha bitandukanye. Inyuma ye hari umupolisi uri kumucunga ngo adatoroka.

Mu gikoni aho batekera, hari umubyeyi uri gushigisha igikoma, akaba ahetse umwana muto, imbere ye hari undi mwana na we ukiri muto, akaba yambaye agapfukamunwa.

Icyumba cyateraniyemo abagabo ndetse n'abagore. Imbere hari umugore wambaye ikoti ry'umukara n'ikanzu y'umweru, uri kubagezaho ijambo. Hari ameza ateretseho telefone, amacupa y'amazi ndetse n'ishakoshi z'abagore.

Ababyeyi bafite abana batoya bari munsi y'imyaka itanu babazanye ku kigo nderabuzima abajyanama b'ubuzima bashishikariza gukangurira ababyeyi kujyana abana kwa muganga igihe cyose bagenewe gufata inkingo.

Abana batoya bicaye mu cyumba kimwe, bose bafite ibyishimo, bari guseka. Babyeyi, ni byiza kwita ku bana bacu kuko bituma bagira igikuriro, ubumenyi mu ishuri ndetse bakabana neza n'abandi.

Ababyeyi batatu b'abagore, bicaye hamwe n'umugabo umwe ndetse n'umwana umwe w'umuhungu, inyuma yabo hari insina ndetse n'ishyamba rikuze cyane.

Umugore wambaye agapira k'umweru, ateruye umwana ukiri mutoya mu ntoki. Arishimye cyane, ari guseka. Abana bato bagomba kwitabwaho kugira ngo bagire ubuzima bwiza, bakure neza.

Urubyiruko rwambaye imipira y’ubururu, ruri kwifotoza ruri kumwe n'abayobozi barutoje. Urubyiruko ni imbaraga z'igihugu, aho ari rwo nkingi y'iterambere ndetse n'ibikorwa byose bizana inyungu mu gihugu.

Abantu benshi bateraniye hamwe, bambaye imipira y'umukara, bigaragara ko ari iyo bahawe muri iyi nama, bakaba bicaye abandi bahagaze inyuma yabo, bisa naho hari ikiganiro bari gukurikirana.

Iyi nama yahuriwemo n'abantu benshi batandukanye, abagore, abagabo, bakaba bari kugezwaho ikiganiro n'umugore ubahagaze imbere, hifashishijwe porojegiteri ku buryo buri wese ari kureba ibiri imbere ye.

Isange one stop centre ni ikigo gifasha abahuye n'ihohoterwa ritandukanye, mu gihe uhuye n'icyo kibazo wibyihererana bagane bagufashe gukurikirana uwaguhohoteye abiryozwe n'amategeko.

Umugabo w'umusazi, ahagaze mu muhanda, inyuma ye hari ibiti birebire, mu muhanda harimo moto, imodoka ndetse no hakurya y'umuhanda hari ibiti byinshi.

Umugabo munini kandi mwiza, ari gukoresha urudodo rwifashishwa mu gusukura amenyo akuramo ibiryo biba byasigaye mu menyo mu imbere, ubu bukaba ari uburyo bwizewe.

Kwa muganga aho bavurira amenyo hari abantu babiri bari gukuramo amenyo arwaye, buri wese akwiye kwirinda icyatuma amenyo ye yangirika.

Umuganga w'amenyo wabugenewe arikuvura umwana. Bigaragara ko arikumukuramo iryinyo yifashishije ibyuma byabugenewe nk'ipennsi, ndetse n'akandi karifata igihe rivuyemo.

Umukobwa mwiza uri guseka yerekana amenyo, akaba yashyizeho intoki ebyiri, afite umusatsi muremure kandi w'umukara bigaragara ko hari ibyo ari kwerekana.

Umugabo munini usa n'ukuze mu myaka ari mu bwogero hari ibikoresho bitandukanye iriba, uburoso, kurogate ndetse n'amavuta bisiga bamaze koga.

Umukobwa mwiza ufite imisatsi miremire, wambaye amaherena, isengeri y'umweru, afite urudodo rwifashishwa mu gukuramo imyanda yasigaye mu menyo, ubu bukaba ari uburyo bwizewe.

Ishusho iriho umuntu bamaze gukura iryinyo rimwe bifashishije igikoresho cyabugenewe bita ipensi, umuntu wese akwiye kwirinda indwara yatuma bamukura amenyo.

Icyumba cy'ishuri kirimo abana bagera muri makumyabiri bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umuhondo n'ikigina, inyuma yabo hari ikibaho, bose bafite biswi mu ntoki.

Umukobwa mwiza witeze igitambaro cy'umweru wambaye n'isengeri ari koza amenyo, inzobere zigira abantu koza amenyo mu gitondo saa sita na nimugoroba ndetse n'ikindi gihe cyose umaze gufata amafunguro.

Umwana na se bari gukoresha urudodo rukoreshwa iyo hari gukurarwamo imyanda mu menyo, ibi kandi ni uburyo bwizewe bukora neza.

Icyumba kirimo abaganga babiri n'akana gatoya bari kureba mu kanwa, bambaye amataburiya y'akazi ndetse n'udupfukamunwa, iruhande rwabo hari ameza ateretseho impapuro ndetse n'ikaramu.

Abaganga babiri bari kwita ku murwayi umwe bareba niba nta kibazo yaba afite mu kanwa, bifashishije ibikoresho byabugenewe nk'amarinete, udupfukamunwa.

Umwana na nyina bari koza amenyo bifashishije ibikoresho byabugenewe nka borosada, ndetse na korogate, ibi kandi bikaba bifasha mu kurinda indwara zo mu kanwa ndetse n'amenyo.

Icyuma kinini gikoze mu buryo butangaje gifite aho bicara ndetse kikaba cyifashishwa mu kureba mo imbere mu mubiri niba nta kibazo kirimo.

Umugabo munini wambaye umupira w'umweru afite urudodo mu menyo, uru rudodo rwifashishwa mu gukuramo ibiryo byasigaye mu menyo igihe tumaze kurya.

Umugabo munini, wambaye umupira w'umweru, akaba asutse imisatsi, ari gukoresha urudodo rwabugenewe mu gusukura amenyo.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara isa naho ari iyo kurarana, arimo kwiborosa yifashishije umuti wabugenewe, imbere ye hari ibindi bikoresho byifashishwa mu gukora isuku nka popiye jenike.

Umuganga ari gusuzuma umurwayi mu kanwa yifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga, akaba yambaye agapfukamunwa ndetse n'imyenda yabugenewe nka ga ndetse n'itaburiya bakoresha iyo bari kuvura abarwayi.

Abaganga babiri babugenewe, bari gukura umuntu amenyo, bifashishije ibikoresho byabugenewe, nk'amatara bashyize ku maso ndetse n'akuma bifashisha bari kuyakuramo.

Abana benshi b'abanyeshuri bahuriye hamwe, bari koza amenyo bifashishije uburoso ndetse n'umuti wabugenewe. Ibi kandi buri wese akwiye kubikora.

Ku ishuri abana barishimye cyane ndetse bari kumwe na mwarimu wabo, bakaba bafite utuntu babahaye turi mu dukarito, bikaba bigaragara ko batwishimiye cyane.

Mu cyumba cyo kwa muganga hari igitanda kiryamyeho umurwayi wambaye umupira w'umukara. Hari abaganga babiri iruhande rwe, bari kumukorera isuku yo mu menyo. Ni byiza ko ugomba kujya kwa muganga kugirango barebe uko amenyo yawe ahagaze.

Abantu benshi bahuriye hamwe, barishimye cyane, bamwe baricaye, abandi barahagaze, bari kwiga ku buzima bw'amenyo, uburyo bakorera isuku amenyo yabo.

Ikibuga cyubatsemo itente riri mu mabara y'umweru n'ubururu, hari abantu bambaye imyenda y'abaganga ndetse n'abarwayi, ni umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuvuzi bw'indwara zo mu kanwa.

Mu cyumba kwa muganga, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo, hari abarwayi batandukanye ndetse n'abaganga bari kubafasha mu kubakuriramo amenyo arwaye.

Umugabo bigaragara ko akuze ari gukoresha urudodo rwabugenewe mu gusukura amenyo hakurwamo ibiryo byasigaye mu kanwa, ubu kandi ni uburyo bwizewe.

Kwa muganga aho twivuriza buri munsi iyo twarwaye hari umuganga ndetse n'umurwayi umwe akaba ari kumwitaho nk'ibisanzwe nk'uko babitojwe.

Umugabo umwe ari kumwe n'umwana we, bigaragara ko ari kumwigisha gukina umupira, bakaba bari mu kibuga kinini gikikijwe n'amazu, ibiti ndetse n'indabo nyinshi z'ubwoko butandukanye.

Abana n'ababyeyi babo bahuriye hamwe barishimye cyane, bigaragara ko ari umuryango uhorana ibyishimo. Ibi kandi byakabaye ahantu hose.

Abantu batatu harimo umukobwa umwe ndetse n'umusaza, bakaba bari kubyutsa umusaza, bamwigisha kugenda ngo barebe ko yabasha kwigenza.

Umusaza ugeze mu zabukuru, ufite imvi wambaye amarinete, umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara, ari gusunikwa mu kagare k'ubururu, gafite amapine y'umukara n'umukobwa wambaye agapira k'icyatsi, bose bafite akanyamuneza.

Umusaza wambaye agapira k'ubururu, n'agakomo ku kaboko n'impeta mu rutoki, yicaranye n'umukecuru w'imvi z'uruyenzi, ufite urupapuro mu ntoki, ari kumusobanurira ibintu bitandukanye.

Umwana na nyina bari mu gikoni, bari gutegura ibyo guteka nk'inyanya, dodo, intoryi, pavuro, ibi kandi byifashishwa mu gutegura indyo yuzuye.

Umusaza ugeze mu za bukuru yambaye ishati y'umweru ndetse afite n'imvi mu mutwe, ateruye umwana mutoya ufite agapupe mu ntoki, barishimanye ubona ko biteye ibyishimo.

Umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ijezi y'umukara, arikumwe n'umuganga wambaye imyenda y'akazi, uri kumufasha kugenda, yahuye n'impanuka amagufa aravunika none ubu ari kugerageza kureba uko yakira.

Abagore batatu bicaye hamwe barishimye cyane, umwe muri bo ari kubereka ibintu bishimishije muri telefone, buri wese kandi akwiye gukora ibimushimisha mu buzima bwe.

Umukecuru n'umusaza bicaye hamwe, imbere yabo hari ameza ateretseho igikombe ndetse n'icupa ririmo ibinini, umukecuru ari kwereka umusaza uburyo agomba gufata imiti, nkuko byavuzwe na muganga.

Umugore bigaragara ko akuze yambaye amarinete, akaba ari kumwe n'umwana we, imbere yabo hari ameza ariho imboga, inyanya, karoti ,bakaba bari gukata ngo bateke.

Umubyeyi wicaye mu kagare ari kumwe n'umuganga uri kumupima umuvuduko w'amaraso yifashishije igikoresho cyabugenewe. Ibi kandi bikaba bifasha umuntu kumenya uko ameze.

Umugabo munini bisa nkaho akuze mu myaka arikumwe n'umuganga uri kumupima umuvuduko w'amaraso yifashishije igikoresho cyabugenewe, akaba yambaye itaburiya mu buryo bwo kwirinda indwara.

Umukecuru wicaye ku ntebe nziza igezweho, afite indangururamajwi bigaragara ko ari gutanga ikiganiro, inyuma ye hari imodoka ebyiri ndetse n'inzu nini ifite ibiti birebire imbere yayo.

Umugore usa n'ukuze ari kumwe n'umuganga, akaba ari kumupima umuvuduko w'amaraso, yifashishije ibikoresho byabugenewe, akaba yambaye imyenda y'ubwirinzi nk'agapfukamunwa, ga ndetse n'iyindi myenda yabugenewe.

Umugore n'umugabo bishimye cyane bari muri siporo zo kwiruka, ibi bikaba bifasha umubiri gukora neza, buri wese akaba ashishikarijwe kuzikora buri munsi.

Umugore n'umugabo bicaye mu nzu, imbere yabo hari ameza manini ndetse umugabo afite terefone, bigaragara ko hari ibyo ari kwereka uyu mugore.

Umuganga wambaye imyenda yabo, afite n'akantu gapima umutima. Yicaranye n'umukecuru wambaye agapira k'umweru, afite n'inkoni mu kiganza. Abakuze bagomba kwegera abaganga, bakabaha inama ku buzima bwabo.

Umusaza wambaye amarinete n'ishati y'umutuku, afite ikaramu y'umukara mu ntoki, yifashe ku kananwa. Afite igitabo mu ntoki ari gusoma, bigaragaza ko yize. Ni byiza kwiga kuko bigufasha kujijuka.

Ababyeyi babiri basa n'abashaje, bambaye imikenyero n'imipira y'umutuku, inyuma yabo hari abantu benshi, bigaragara ko bavuye mu matora ya perezida w'igihugu.

Umugabo wambaye agapira k'umutuku ari kumwe n'umukecuru w'imvi z'uruyenzi wifubitse igitambaro, iruhande rwabo hari umukobwa mwiza uri kubarurira ibiryo by'ubwoko butandukanye.

Umugore wambaye umupira w'umuhondo, amarinete ndetse akaba afite n'imisatsi miremire, arikunywa ibinini nk'uko yabitegetswe na muganga.

Umusaza umwe n'abana babiri bari kurya amandazi banywesha n'igikoma bakaba bicaye ku irembo, bakaba bameze nk'abumiwe ahari bafite ibibazo byinshi.

Ishusho nziza igizwe n'ababyeyi bakuze, abato, abenshi muri bo bambaye imipira y'Umweru bisa nkaho ariyo bahawe nk'ikimenyetso cy'igikorwa kiri kubera hano.

Abantu benshi bateraniye hamwe, bameze nk'abari mu mahugurwa ajyanye n'abantu bafite ubumuga, bakaba bagiye kubaha ibikoresho byifashishwa mu buzima bwa buri munsi n'utugare ndetse n'intebe zo kwicaraho bakumva baguwe neza.

Umubyeyi mwiza wambaye igitambaro cy'umukara n'amarinete ndetse n'ikanzu ya oranje, yicaye mu kagare k'abafite ubumuga. Ari kumwe n'umukobwa wambaye ishati y'ubururu, bose bafite ibyishimo mu maso.

Umugore n'umugabo bigaragara ko bashaje, imbere yabo hari ameza ateretseho igikombe cy'amazi, ibinini biri mu icupa ndetse bafite telefone bisa naho uno mugabo hari ibyo ari kwereka uyu mukecuru.

Umugore wiyogoshesheje umusatsi akawumaraho, yambaye amaherena, agapira k'icyatsi ndetse n'undi w'umweru. Afite ikirahure mu ntoki kirimo amazi ndetse n'ibinini agiye kunywa. Ni byiza kunywa ibinini ukoresheje amazi meza.

Icyapa cya RBC urwego rushinzwe ubuzima mu Rwanda, dore uko wakwirinda HIV, uko wayivuza n'uko wakwiyitaho mu Rwanda. Ni byiza ko igihe ufite ibimenyetso wihutira kujya kwa muganga.

Ifoto y'abantu benshi bambaye imyenda y'umweru, bigaragara ko ari abanyeshuri ndetse n'abantu baje kubaha ikiganiro, ku bijyanye no kwirinda virusi itera SIDA mu rubyiruko.

Icyapa kinini cyanditseho amagambo hakoreshejwe ibara ry'umukara ndetse n'umutuku, hakaba hariho ifoto y'ibiribwa byongera amaraso mu mubiri.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu bwerurutse, kikaba kiriho amagambo yandikishije ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi, kikaba gisobanura uburyo hakwitabwaho ibidukikije.

Abantu benshi bahuriye hamwe bakaba bicaye bateze amatwi, uri kubagezaho ikiganiro hifashishijwe mikorofone, icyumba barimo kirimo ibindi bikoresho, byifashishwa mu kugeza amajwi ku baturage mu buryo bwihuse.

Icyumba giteraniyemo abantu benshi, hari umugore wicaye uri gutera urushinge umuntu, iruhande rwe hari indangururamajwi ndetse n'udupfukamunwa, ni byiza kwiteza urushinge mu gihe hari indwara bari kugukingira.

Abaganga bane bambaye imyenda yo mu kazi, bambaye n'udupfukamunwa ndetse n'ingofero bari kuvura umurwayi, bose bamuteraniyeho afite ikibazo gikomeye ariko kuko babyigiye baraza kurokora ubuzima bwe.

Icyapa kiriho umukecuru ufite ijisho ripfutse ndetse akaba ateze igitambaro cy'umutuku, hakaba hariho amagambo abwira abaturage ko hariho ubuvuzi ku isi hose.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu bwerurutse. Hakaba hariho ibimenyetso byinshi byerekana ukuntu wakwirinda corona nko gushyiramo intera hagati y'umuntu, kwambara agapfukamunwa, ndetse no gukaraba kenshi.

Abantu benshi bahuriye hamwe bigaragara ko bari mu nama, imbere yabo hari ameza ateguyeho ibitambaro kandi bakaba bafite uri kubagezaho ikiganiro.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, ipantaro ya kake ndetse n'inkweto z'umukara, ari kuganiriza abana batoya bari mu kigero cy'imyaka itanu n'umunani, ari kubabwira ku bigendanye n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe.

Abantu benshi bicaye hamwe inyuma yabo hari icyapa kinini kiriho amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu bwererutse, idarapo ry'Igihugu, aya magambo kandi akaba avuga ku bijyanye n'ubuvuzi bwihuse ku baturage.

Inama yateranyije abantu benshi, abagabo, abagore, bakaba bari kwiga ku bijyanye n'ubuzima, inyuma yabo hari icyapa kinini gisobanura uburyo bakwita ku buzima, ndetse bakabungabunga buri muntu wese.

Ishusho y'icyapa cy'ubururu, hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, ikaba yerekana uburyo bwo kuboneza urubyaro, mu gihe cy'imyaka icumi.

Kwa muganga aho tugana igihe tutameze neza, hari umurwayi uri kwitabwaho n'abaganga babiri, bakaba bari kumutera urushinge mu rutugu.

Inama yahuje abantu benshi bicaye hamwe, bakaba barimo abantu batandukanye. Abagabo, abagore, bisa nkaho bakurikiye ikiganiro, bari kugezwaho n'umuntu Ubahagaze imbere.

Icyapa kinini cy'umweru cyanditseho amagambo menshi ari mu ibara ry'ubururu bwererutse, hakaba hariho ifoto y'abana bato. Iki cyapa kandi kiravuga ku bijyanye no kwirinda ndetse n'uburyo bahabwa serivisi z'ubuvuzi muri sosiyete.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru kiriho amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu bwerurutse, umuntu umwe kandi iki cyapa kiriho inzu ya Komvesheni, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu bwerurutse, kikaba cyanditseho amagambo hakoreshejwe ibara ry'umweru ndetse n'iry'umuhondo, kikaba gishishikariza abantu kwirinda indwara y'ubushita bw'inkende.

Icyapa kinini cy'ubururu, kiriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'iry'umuhondo, bikaba biri kwerekana uburyo umuntu wese yafata urukingo rwa Kovide cumi n'icyenda mu buryo bwo kwirinda.

Inama yahuje abantu benshi, harimo abagabo, abagore, bakaba bicaye mu ntebe z'umutuku, imbere yabo hari abantu bari kubagezaho ikiganiro, iyi nama kandi iri kwiga ku buryo bwo kwirinda virusi itera sida mu rwego rw'Isi yose.

Abaganga babiri bambaye imyenda yabugenewe nk'udupfukamunwa ndetse n'amajire, bari gutera urushinge umuntu rwifashishwa mu kurinda icyorezo cya kovide cumi n'icyenda.

Ku bitaro, aho tugana igihe cyose turwaye hari abaganga b'inzobere mu kuvura indwara zose. Ku kigo nderabuzima cya Rwerera hari ubusitani bwiza.

Inzu nini isize irange ry'umuhondo, hakaba harimo ibikoresho byinshi intebe ndetse n'ibindi byuma byifashishwa mu kuvura ndetse no kureba indwara.

Imbaga y'abantu yiganjemo abagore, hari abagabo bicaye imbere, bari kubasobanurira ku ngingo zitandukanye. Ni byiza ko niba hari amahugurwa yateguwe abantu bagomba kuyitabira, bagasobanurirwa ibintu byinshi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo intebe z'umutuku ndetse n'iy'umweru, harimo kandi igitanda kijyaho abarwayi batarembye cyane, hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse na fotokopiyeze.

Kwa muganga aho umurwayi wese agana igihe arwaye hari ibikoresho byifashishwa mu kuvura abantu bose, hakaba hari umuganga uri gupima umuti uhabwa umurwayi.

Inzu nini kandi ndende iri mu bwoko bwa etaje, imbere yayo hari abantu bambaye imipira y'ubururu ndetse n'icyapa cy'umweru kiriho amagambo avuga ukuntu umugore ndetse n'umwana bakwitabwaho kandi neza.

Icyumba kinini kandi cyiza, harimo umugabo uri kwiga yifashishije kompiyuta ebyiri, ibi kandi bikaba bimufasha kwiga vuba mu buryo bworoshye.

Umuhanda wa kaburimbo hari igare riri kunyuraho, ritwaye umugenzi wambaye agapira ka move, ku ruhande hari ikigo nderabuzima cya Gisenyi, aho hari abantu benshi baje kwivuza indwara zitandukanye.

Ibitaro binini bya Kabgayi ahavurirwa indwara zananiranye, hari abantu bavuye kwivuza, ibi bitaro kandi bikikijwe n'ibiti birebire byifashishwa mu guhumeka umwuka mwiza.

Mu bitaro hari abaganga babiri umwe ni umuzungu yambaye imyenda yabugenewe y'ubururu, hakaba hari umurwayi umwe barikuza uko yiyumva ngo babone kumusuzuma n'imiti yabugenewe.

Inzu nziza ya konoshi, iriho icyapa kigaragaza ko hari farumasi. Handitseho Murekatete Marie Denise, umushaka wamuhamagara kuri numero zeru karindwi, umunani umunani, gatanu gatanu, mirongo irindwi, mirongo icyenda.

Abantu benshi ndetse harimo n'abazungu, bari imbere y'icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, ibi bikaba ari ibitaro bya Butaro, ahatangirwa serivisi zitandukanye zerekeranye n'ubuvuzi.

Farumasi nini kandi nziza ikaba iganwa n'abantu batandukanye yaba abafite ubwishingizi ndetse n'abatabufite, hakaba harimo imiti ivura indwara zose.

Inzu nini isize amarangi ari mu bwoko bubiri, iry'umukara ndetse n'iry'umweru, ikaba isakaje amabati agezweho ari mu ibara ry'umutuku, imbere yayo hari ibiti bibiri biriho amadarapo y'igihugu.

Kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, akaba ari inyubako ndende. Ikaba ikikijwe n'ubusitani bwiza bw'ibiti birebire bifasha abanyeshuri guhumeka. Hakaba hari abantu imbere y'iyo nyubako.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara yicaye ku gasima, inyuma ye hari igiti kirekire gifite ibishami byinshi, impande z'icyo giti hari indabyo nyinshi.

Icyumba cyiza kirimo ibikoresho bikoze mu byuma, byifashishwa kwa muganga. Ibitanda bashyiraho abarwayi, intebe bicaraho ndetse n'utwuma twifashishwa babapima indwara.

Inyubako nziza kandi ndende, isize amarangi atandukanye, ikaba isakaje amabati atagaragara bitewe n'uburyo yubatse, imbere yayo hahagaze abantu benshi bambaye neza.

Ibitaro byiza bigezweho, bisakaje amabati y'ubururu, bikaba bifite umuzenguruko w'irangi ry'umweru, hano ni mu nzu yakirirwamo abagore batwite, igihe bagiye kubyara.

Mu cyumba aho basuzumira abarwayi, harimo umuganga umwe, akaba ari gusuzuma umurwayi, yambaye ibikoresho byifashishwa nk'itaburiya, agapfukamunwa ndetse n'agakoresho bifashisha bapima uko amaraso atembera mu mubiri.

Kwa muganga mu cyumba cy'abarwayi aho abagore babyarira imbere yaho hari abaganga ndetse n'abarwayi bigaragara ko bari gutanga ikiganiro.

Nkibisanzwe kwa muganga haba ibyumba bikorerwamo ibintu bitandukanye, iki ni icyumba babagiramo abarwayi akenshi aba ari abagore batwite.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hari abagabo batatu bameze nk'abari kuganira, imbere yabo hari imodoka, kuri ibi bitaro kandi hari n'izindi modoka ebyiri kandi hakaba hari yo abarwayi bari guhabwa serivisi.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, aha ngaha ni ahifashishwa bari gusuzuma umurwayi, hakaba harimo ibikoresho byinshi bifasha umuganga kwita ku barwayi ku buryo bwihuse.

Icyumba cyo kwa muganga gisize irange ry'umuhondo, hari igitanda kiryamyeho umurwayi uri gukurikiranwa n'umuganga wambaye amadarubindi, ni byiza ko igihe wumvise utameze neza wihutira kujya kwa muganga.

Kwa muganga aho tugana igihe turwaye, hari abarwayi babiri mu cyumba kimwe, hakaba hari n'umuganga umwe, uri gupima umurwayi yifashishije igikoresho cyabugenewe mu gupima uko amaraso ari gutembera mu mubiri.

Aha ni ku bitaro, aho abajyanama b'ubuzima bari guhabwa amahugurwa yo kwita ku bagore batwite. Ibi kandi bizabafasha kubakurikirana mu buryo bwiza kuko bazaba babifitiye ubumenyi.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, ukikijwe n'amazu meza agezweho ari yo bita amagorofa, imbere yayo hari imodoka eshatu, imwe iri mu ibara ry'umukara, izindi ziri mu ibara ry'umweru.

Ku bitaro ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hari abagore babiri bavuye kwivuza, imbere y'ibi bitaro hari icyapa kinini cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, hakaba hariho n'ikirango cy'igihugu gifite umuzenguruko w'ibara ry'ubururu bwererutse.

Inzu ndende igeretse kabiri isize amarangi meza isakayije amabati meza, imbere yayo hari imodoka nziza, abantu benshi ndetse na kaburimbo nziza ifite isuku.

Inzu nini kandi itangaje, isize irangi ry'ubururu, ifite amatara menshi arimo kwaka, harimo intebe z'ubururu ndetse n'ahantu bakirira abantu baje muri iyi nyubako.

Inyubako nziza kandi ndende, ifite imiryango myinshi, hakaba harimo umuryango, ahantu bacururiza imiti, ari ho bita muri forumasi.

Inzu nziza yubakishije amatafari ahiye ikaba ifite amadirishya menshi bisa nkaho ari urusengero, ikaba ifite ubusitani impande zose.

Icyumba kinini gisize irangi ry'mweru, hakaba harimo ibikoresho nk'amatara, intebe, ibitanda bito, ndetse n'igitanda kinini cyifashishwa igihe bari kubyaza umugore.

Inzu nini irimo ibikoresho byiza. Intebe, igitanda, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu mirimo itandukanye bigaragara ko ari mu cyumba kwa muganga.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru, kikaba kiriho amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu, hakaba hariho ikirango cy'igihugu, iki cyapa kandi ni icyerekana ko umuntu yageze mu Karere ka Huye.

Inzu yubakishijeje amatafari ahiye, handitseho ngo "aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina". Niba nawe wahohotewe, ugomba kwihutira kubagana bakagufasha gukurikirana uwaguhohoteye.

Mu cyumba ahasuzumirwa abarwayi harimo abaganga batatu, umurwayi umwe w'umugabo ndetse n'umugore wamuherekeje, hakaba hari gufatwa ibizami ngo habonwe indwara arwaye.

Inzu nini kandi nziza bigaragara ko ari kwa muganga, imbere yayo hari ibyapa bibiri ndetse n'ubusitani bunini, aho umuntu wese ashobora kwicara igihe atarahabwa serivisi.

Abakozi bakora isuku kwa muganga bambaye utugofero tw'umweru n' imyenda y'ubururu hasi no hejuru, inyuma yabo hari ibiti by'amabara meza bitanga umuyaga.

Ku bitaro hari umubyeyi ndetse n'umwana, bari kwitabwaho n'umuganga wambaye ibikoresho byabugenewe nk'itaburiya ndetse n'agapfukamunwa, mu buryo bwo kwirinda indwara zandura.

Icyumba bigaragara ko ari mu bitaro, hari ibitanda bine, abarwayi babiri ndetse n'ibindi bitanda bibiri bitariho abantu, hari supanete eshatu muri icyo cyumba, bigaragara ko ari ibitaro by'ababyeyi b'abagore.

Abaganga benshi bambaye imyenda yabugenewe nk'amataburiya, ingofero, udupfukamunwa, na ga mu ntoki, bari mu cyumba ahakorerwa imiti bakaba bifashisha ibikoresho byinshi byabugenewe.

Kwa muganga ahavurirwa abarwayi barwaye indwara zitandukanye, iki ni icyumba aho basuzumira abarwayi. Hakaba harimo igitanda kimwe n'ibindi bikoresho byifashishwa basuzuma uwo murwayi.

Inzu nziza itangaje isize irange ry'umweru, ikaba ifite ibikoresho byiza bikoze mu byuma, intebe ndetse n'igitanda bigaragara ko hano ari kwa muganga.

Inzu nziza irimo ibyumba bitandukanye, hateretsemo intebe nziza z'imifariso. Harimo ubusitani mo imbere, amatara yaka neza n'amarangi meza. Hanze hari amapave ndetse n'ibiti bizana umwuka mwiza.

Inzu nziza igurishirizwamo imiti ahazwi nka farumasi Iraguha, hari kwinjiramo abantu umubyeyi uhetse umwana ufite n'undi mu ntoki; igihe wandikiwe imiti na muganga ugomba kuza kuyigura.

Abarwayi babiri bari mu cyumba kimwe ku bitanda bitandukanye bose bararembye, abaganga bari kugerageza uko bashoboye kugira ngo barokore ubuzima bwabo, aba barwayi bose nta barwaza babari iruhande.

Inzu nziza igezweho isize irangi ry'umuhondo, ikabi isakaje amabati y'ubururu, imbere yayo hari ubusitani bunini cyane, ikaba ifite uruzitiro rw'ibyuma gusa.

Inzu nini igeretse kabiri isize irangi ry'umweru ikaba yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo. Ibi bikaba ari ibitaro by'akarere ka Shyira ahatangirwa serivisi ku buryo bwihuse.

Ibitaro byiza bigezweho byita ku barwayi bifite abaganga b'inzobere, aha ni mu bitaro by'ababyeyi aho bakirirwa iyo bavuye kubyara ndetse n'abana babo.

Inzu nziza isize irangi ry'umweru, isakaje amabati y'ibara ry'ubururu ryerurutse, imbere yayo hari ubusitani bwiza, iyi nzu kandi ni ikigo nderabuzima cya Kanyinya giherereye mu mujyi wa Kigali.

Inzu nziza igeretse kabiri, isize amarange y'umweru ndetse ifite ubusitani bwiza hanze. Haparitse kandi imodoka nziza y'umukara, ni aho bakorera ubushakashatsi ku bigendanye n'ubuvuzi.

Kwa muganga, ahatangirwa serivise z'ubuvuzi mu cyumba cy'abana, hari umuganga w'umugore, uri kwita ku ruhinja rukivuka, akaba yambaye ibikoresho byifashishwa mu buvuzi. Ga, itaburiya, bikaba bibafasha kwirinda.

Inzu nini kandi nziza irimo ibikoresho bikoze mu byuma kandi bikaba bikomeye cyane, bikaba byifashishwa muri siporo zitandukanye zigorora amaguru ndetse n'umubiri wose muri rusange.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho byinshi byifashishwa n'abahagana. Iyo uhageze, babanza kukwigisha uko babikoresha kugira ngo utaza guhura n'imbogamizi. Ni byiza ko nawe, watangira kujya ukora imyitozo ngororamubiri.

Kwa muganga aho umuntu wese agana igihe arwaye, hari ibikoresho byinshi byifashishwa mu kuvura abarwayi n'ibitanda, inshinge ndetse n'intebe.

Mu nzu nini harimo abaganga benshi, ibitanda by'abarwayi ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi, aha kandi hari gutangwa serivisi zo gutera inkingo buri muntu wese.

Inzu nini igeretse kabiri, isize amarangi yo mu bwoko butandukanye, imbere yayo hari imodoka yo mu bwoko bwa Toyota ndetse iyi nzu ifite ubusitani impande zose.

Umurwayi waje kwaka serivise kwa muganga, ari kumwe n'umuganga w'umukobwa, akaba ari kumusuzuma umuvuduko w'amaraso, yifashishije igikoresho cyabugenewe.

Ku bitaro rusange aho umuntu wese ajya kwivuriza igihe arwaye, hari abantu benshi, ndetse n'imodoka nyinshi ziparitse, ahabugenewe.

Birazwi ko kwa muganga habamo ibikoresho byose byifashishwa mu kuvura abarwayi, nk'ibitanda ndetse n'ibindi byose bifasha umuganga kwita ku murwayi neza.

Ku bitaro ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi ku barwayi batandukanye hari umugabo wambaye bote, isarubeti, agapfukamunwa bigaragara ko hari imiti ari gutera akaba ari kwirinda kwandura.

Kwa muganga hari icyumba cyabugenewe bapimiramo imiti, hakaba hari umuganga uri gupima umuti aribuhe umurwayi bitewe n'indwara arwaye.

Farumasi ifite imiti itandukanye, iri ahantu heza mu cyumba gisize amarange y'umweru ndetse kirimo n'amakaro n'amatara yaka neza. Nawe niba wandikiwe imiti, waza ukayigura hano.

Mu cyumba kwa muganga aho bakirira abarwayi hari ibitanda, ameza, intebe, utubati ndetse n'igikoresho bashyiramo imyanda, ibi kandi bikaba bifasha umurwayi wagannye ibitaro.

Ihuriro ry'abantu benshi bateraniye hamwe bafite uri kubagezaho ikiganiro. Imbere yabo hari ameza manini ateguyeho ibitambaro ndetse buri muntu afite icupa ry'amazi n'icyo kwandikaho. Hakaba hari n'uri kubafotora.

Igikoresho cyiza gikoze mu byuma kikaba gifite aho bicara kandi kifashishwa mu gukora ibintu bitandukanye by'umwihariko kwa muganga.

Inzu nini igeretse kabiri, munsi yayo hari abantu benshi cyane ndetse mu kibuga hari imodoka y'umukara, inyuma yayo hahagaze umugore umeze nk'uwumiwe.

Inzu nziza nini ifite imiryango myinshi ndetse imbere yayo hari indabyo ebyiri ziteretse mu bikombe, iyi nzu kandi ikaba ifite umuryango urimo farumasi aho umuntu wese ajya kugurira imiti.

Imihanda myiza irimo amapave ndetse ku ruhande hateyeho indabyo z'amabara meza, hari kugendamo abantu batatu, umugabo ufashe akana kifubitse igitenge ndetse n'ubari imbere ufite ibase mu ntoki.

Inzu nini irimwo ibikoresho byinshi hakaba harimo abantu babiri bari gukora siporo, ibi kandi bifasha umuntu wese kugira ubuzima bwiza.

Siporo ni ingenzi ku buzima bw'umuntu, kuko bituma amaraso atembera neza mu mubiri ndetse n'imitsi ikarambuka, buri wese akwiye kubikora buri munsi.

Umukobwa muremure wambaye agasengeri ari gukora siporo yambaye ekuteri ndetse n'isaha, izi siporo kandi zifasha umuntu kumva ameze neza mu mubiri.

Umugabo munini wambaye umupira w'umweru afite igitambaro yapfukishije ku kaboko, bigaragara ko bamaze kumutera urushinge akaba ari kugirango amaraso ataba menshi.

Umusore munini wambaye isengeri y'umukara, ari gukora siporo igorora umubiri, akaba yafashe akaboko ke akagahindukiza inyuma mu bitugu.

Imbuto z'ubwoko butandukanye zidanduye ahantu hamwe, harimo amaronji, inanasi, imineke, avoka ndetse n'izindi. Imbuto ni kimwe mu bintu bigufasha kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa ufite ibisuko, wambaye agasengeri n'ipantaro y'umukara, aryamye hasi ari gukora siporo z'ubwoko butandukanye, abantu bagirwa inama zo gukora siporo kuko zituma ugira ubuzima bwiza.

Umusore ubyibushye cyane wakoze siporo afite amatuza manini ndetse n'akaboko kabyibushye, afite icupa ry'amazi mu ntoki ari kunywa bakugira inama ko niba uvuye muri siporo wanywa amazi kuko umubiri uba watakaje menshi.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu n'isaha y'umukara afite icupa ari kunywa amazi, inzobere zigira abantu inama yo kunywa amazi afite isuku kuko iyo yanduye agutera indwara.

Umuntu ukuze wambaye umupira w'umweru, akaba afite igitambaro cy'ubururu yashyize ku kaboko, bigaragara ko ari aho bamaze kumutera urushinge.

Umusore wambaye isengeri y'umukara n'isaha y'icyatsi ku kaboko, afite icupa ry'amazi ari kunywa. Inzobere mu by'ubuzima, zikugira inama ko ugomba kunywa amazi mu gitondo, saa sita na nimugoroba.

Abantu benshi bahuriye hamwe, abenshi muri bo, bambaye imipira y'umweru, bigaragara ko ari iyo bahawe. Hakaba hari abagabo babiri bateruye, umwe wambaye umupira w'umuhondo bisa nkaho agize ikibazo.

Umuntu uri gukora siporo, yambaye ekuteri ndetse n'inkweto zabugenewe. Imbere ye hari icupa ry'amazi, akaba ari kugorora amaguru.

Icyumba kirimo umuganga umwe akaba yambaye ibikoresho byabugenewe nk'agapfukamunwa, ga ndetse n'agakoresho kifashishwa mu gupima umuvuduko w'amaraso. Imbere ye hari mudasobwa ndetse n'ibitabo ari kwandikamo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye ndetse n'abaganga b'inzobere, bari kwita ku barwayi bifashishije ibikoresho bahuguriwe.

Inkoni ikoze mu cyuma, ikaba yifashishwa n'umuntu ubana n'ubumuga, iyi nkoni kandi ifasha abo bantu kugenda neza.

Umusore ufite igituza kinini n'amaboko abyibushye ari guterura ibintu bimufasha gukora siporo. Iruhande rwe hari amagi, amashu, karoti, inanasi n'icupa ry'amazi. Iyo umaze gukora siporo uba ugomba kurya neza.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umuhondo gifite umuzenguruko w'ibara ry'umukara mo imbere harimo abantu babiri uwambaye imyenda y'umweru, uwambaye iy'ubururu bwerurutse ndetse hasi y'iki cyapa hari umurongo wanditseho amagambo hakoreshejwe ibara ry'icyatsi.

Igikoresho cyiza gitangaje gikoze mu bwoko bw'akaguru. Kikaba kigizwe n'ibyuma ndetse n'amapamba, kikaba gihabwa umuntu wavunitse nk'insimburangingo.

Icyapa kiriho abantu bari mu myitozo ngororamubiri igiye itandukanye bitewe n'iyo umuntu abashije, abantu bose bagirwa inama yo gukora siporo kuko ari ubuzima.

Umugabo wambaye isengeri ndetse n'inkweto zabugenewe mu gukora siporo ari kugorora amaguru ndetse n'umugongo, ibi kandi bifasha umuntu wese kugira umubiri ukora neza.

Umugabo wambaye ishati y'umutuku, yicaye ku ntebe, iruhande rwe hari akameza gateretseho mudasobwa. Hirya hari lavabo iba iri mu nzu, ikifashishwa umuntu akaraba intoki.

Umugabo muremure wambaye ikabutura y'umukara, umupira w'umweru, ari muri siporo ngororamubiri, akaba ari kugorora amaboko, amaguru, ibi kandi bikaba bifasha amaraso gutembera neza mu buzima bwa buri munsi.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umuhondo, handitseho amagambo hakoreshejwe ibara ry'umukara, hakaba hariho abantu bari kwerekana siporo zo mu bwoko butandukanye.

Imbuto zitandukanye zirimo inkeri, pome, indimu, ubunyobwa ndetse n'ibindi byagufasha kugira ubuzima bwiza. Hari kandi imetero yifashishwa n'abatayeri mu gupima imyenda bagiye kudoda.

Icyapa kinini cy'umweru kirebareba amagambo yandikishije ibara ry'ubururu, hakaba hariho umuntu uri kwerekana akamaro ka siporo ko zigorora ingingo.

Kwa muganga, aho bavurira abarwayi, hari inama yahuje abaganga bose bakorera kuri ibi bitaro, bakaba bambaye udupfukamunwa, ingofero, bakaba bakurikiye ikiganiro hifashishijwe televiziyo.

Icyapa kinini kirimo ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'icyatsi, kikaba kiriho ibintu icumi ushobora gukora mu kuruhura ubwonko.

Mu cyumba kwa muganga ahasuzumirwa abarwayi, hari ababyeyi batatu umuganga umwe w'umugabo ndetse n'umwana umwe, bari gusuzuma indwara zo mu kanwa.

Iki ni icyuma cyifashishwa mu gupima umuvuduko w'amaraso, kikaba gikoze mu buryo butangaje, ku buryo gifite aho umuntu yumvira uko amaraso y'umuntu atembera, aribyo twita ekuteri.

Icyapa cyanditseho Repubulika y'u Rwanda ibitaro bya gisirikare, batanga ubuvuzi butandukanye aho ikibazo cyose waba wagize bakwitaho, bakagukurikirana kugeza ukize.

Umugabo wicaye mu busitani bigaragara ko ari gukora siporo ngororamubiri, zigorora imitsi yo mu matako, ibi kandi bifasha buri muntu wese mu buzima bwe.

Umukobwa wambaye agasengeri k'umukara ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umweru, ari gukora imyitozo ngororamubiri, abantu bari bazi ko abagabo ari bo bakora siporo ariko n'igitsina gore birakirereba.

Umugabo munini wambaye umupira w'umukara ari kunywa amazi, ibi kandi umuntu wese akwiye kubikora mu gitondo kuko bigira akamaro mu mitekerereze.

Imiti y'ibyatsi izwiho kuvura indwara mu buryo bwihuse yaba inkorora, ibicurane ndetse n'izindi. Ikaba iri mu isafuriya bigaragara ko bayitetse.

Ibimera bivura indwara nyinshi kandi vuba. Ibi kandi bikorwa n'umuntu wabiherewe amahugurwa, akaba azi uburyo basekuramo imiti. Kugira ngo ivure neza indwara zose.

Ishusho nziza y'amacunga yeze, ay'umuhondo, ay'icyatsi, hakaba harimo rimwe bakasemo kabiri ndetse n'irindi rito baciyemo uduce tubiri, kandi kwaya meza hariho amababi y'icyatsi.

Ishusho nziza y'ibimera bikoreshwa mu buzima bwa buri munsi, nk'imboga zifashishwa mu kongera imirire, hakaba hariho imboga zatunganyijwe mu nganda, ziri mu macupa maremare ndetse n'amagufi.

Icupa rinini ryanditseho umuravumba ndetse n'andi magambo menshi. Umuravumba uzwi nk'igihingwa kivura indwara zitandukanye, nk'umutwe, ibicurane ndetse n'inkorora. Abanyarwanda benshi barawifashisha.

Ikimera gikungahaye mu kuvura indwara nyinshi kandi kikaba cyatunganyijwe, hakaba havuyemo umuti w'umuhondo uri mu icupa ryiza.

Igiti kinini cy'umuravumba kizwiho kuvura indwara nyinshi nk'inkorora, ibicurane kikaba gikoreshwa n'abantu babiherewe amahugurwa.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuzima, hari umuganga uri gupima umuti uhabwa abarwayi, akaba ari mu cyumba kirimo intebe eshatu ndetse imbere ye hari amacupa abiri y'umuti.

Ishusho nziza iriho ibimera byifashishwa mu kuvura indwara hakaba hariho igitoki, harimo kimwe gikasemo ibice bibiri ndetse n'ubunyobwa hirya.

Imiti ikomoka ku bimera, iyo imaze gutunganwa bayishyira mu macupa kugira ngo bakomeze kuyirindira ubuziranenge, maze ivure indwara nyinshi.

Mu isoko aho duhahira ibyo kurya mu buzima bwa buri munsi, harimo ibicuruzwa byinshi, ibiribwa, ibyo kunywa, imyambaro ndetse n'inkweto, buri wese akwiye guhahira mu iri soko.

Imiti itandukanye ikorwa mu bimera, hari abantu benshi baje kuyigura ndetse n'abacuruzi bayicuruza bakomeje kubwira abakiriya uburyo iyo miti ikora.

Ibimera ni imiti ivura cyane indwara nyinshi by'umwihariko imiravumba, ikaba ivura indwara nyinshi y'inkorora, ibicurane, ndetse n'umutwe bikaba akarusho iyo bawanitse bakawusekura.

Ibimera byinshi byifashishwa mu gukora umuti uvura indwara nyinshi, uyu muti kandi witwa umuravumba ukaba ukiza inkorora.

Ibimera bifite akamaro kanini mu buzima bw'umuntu, byifashishwa nk'imboga zongera imirire ndetse no mu miti ivura indwara vuba.

Imiti y'ibimera yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi kandi ku buryo bwihuse, iyi miti kandi ikoreshwa n'abantu babiherewe amahugurwa.

Imiti yifashishwa mu kuvura abantu bafite ibibazo byo kurangiza vuba, gucika intege ndetse n'ingaruka zo kwikinisha, iyi ni imiti y'ingirakamaro mu buzima bw'abantu bafite ibi bibazo.

Icupa ry'umweru riteretse ku meza manini, hakaba harimwo amazi yifashishwa umuntu ari gukaraba ngo yirinde indwara zandura, nka kovide cumi n'icyenda.

Icyapa kinini cy'umweru kiriho abantu batandukanye bakaba bakoreshejwe ngo herekanwe indwara zifata ahantu hatandukanye mu mugongo, mu kaboko, ku rutugu ndetse no mu mavi bakaba bashyizeho n'imiti yakwifashishwa mu kuvura izi ndwara.

Icyapa kiriho umuntu uri guseka ndetse n'imiti yifashishwa mu koza amenyo. Mugitondo umuntu abyutse agomba gukoresha umuti wabugenewe ndetse n'uburoso, akoza amenyo kugira ngo yirinde indwara zitandukanye.

Umugore n'umugabo bari hagati mu ishyamba ry'ibiti birebire kandi byinshi, bisa naho bari kuririmba bishimye cyane.

Ishusho y'amacupa menshi yiganjemo ariw ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umuhondo hakaba harimo imiti ivura ubwoko bw'indwara zitandukanye.

Amajerekani maremare ari mu bwoko bumwe, rimwe ni umutuku irindi ni umuhondo, iyi ikaba ari imiti ikozwe mu gikakarubamba, ikaba yifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu nk'imvuvu ndetse n'izindi nka zo.